Aho bavangira ibinyabutabire byinshi bitandukanye kugira ngo ivemo imiti itandukanye ivura amatungo harimo ibikoresho byinshi bakoresha, harimo n'umuntu w'igitsina gabo wambaye itaburiya y'umweru ukora iyo miti.

Ibiganza bibiri byambaye ga z'umweru, bifite ivase mu ntoki zabo iteyemo igihingwa, bari kugiha ubuziranenge kugira ngo kizabashe gukura neza.

Umurima munini cyane uhinzemo umuceri, harimo umuntu w'igitsina gabo, wambaye isarubeti y'umukara, uri gutera igiti muri icyo gihingwa kugira ngo kitazatakwa n'indwara bakabura umusaruro.

Umurima munini cyane uhinzemo igihingwa cy'ibigori, harimo umuntu w'igitsina gabo uri guteramo umuti kugira ngo kitazatakwa n'uburwayi bakabura umusaruro, hirya y'uwo murima hari ikiyaga.

Abantu benshi cyane harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, bari mu cyuzi bororeramo amafi biragaragara ko bagiye kuroba amafi mu kiyaga, hari n'umuntu ufite imfatashusho impande yabo.

Abantu benshi igitsina gabo n'igitsina gore, harimo umugabo wambaye umupira w'umukara wanditseho Kwihaza Project n'undi mugabo wunamye wambaye isarubeti y'ubururu, biragaragara ko bari kuroba amafi cyangwa isambaza mu kiyaga.

Umurima munini cyane, uhinzemo icyayi, harimo abantu benshi cyane, igitsina gabo n'igitsina gore, bahetse ibitebo mu mugongo, bari gusarura icyayi bashyira muri ibyo bitebo kugira ngo babijyane ku isoko, babone amafaranga.

Abantu benshi cyane bose b'igitsina gore biteze mu mutwe ibitambaro bahetse ibitebo mu mugongo, bari mu murima w'icyayi aho bagiye gusarura icyayi bashyira muri ibyo bitebo bahetse.

Umuntu wigitsina gabo wambaye ingofero y'umukara ikote ry'umukara n'umweru, n'ipantaro y'ikoboyi ahagaze mu cyayi gihinze, hirya y'umurima w'icyayi hari ishyamba riteyemo ibiti.

Abantu benshi cyane b'igitsina gore bateze ibitambaro mu mitwe yabo, inyuma yabo bahetse ibitebo bari gusaruriramo ibyayi kugira ngo bazabijyane ku isoko babone amafaranga.

Mu murima uhinzemo igihingwa cy'ikawa, harimo umuntu w'igitsina gore, witeze igitambaro, wambaye umupira w'umukara n'umuhondo, ari gusarura ikawa kugira ngo ayijyane ku isoko, abonemo amafaranga.

Abantu benshi cyane b'igitsina gabo, bambaye ingofero n'imipira isa igitaka, bari mu murima wa kijyambere uhinzemo icyayi, inyuma yabo bahetse igitebo bari gusaruriramo icyayi.

Mu murima munini cyane, uhinzemo icyayi, harimo abantu benshi cyane b'igitsina gore, bambaye imyenda y'ubwoko bw'ibitenge, bari gusarura icyayi kugira ngo bakijyane ku isoko, bavanemo amafaranga, inyuma hari imisozi myiza.

Mu murima munini cyane, uhinzemo igihingwa cy'ikawa, harimo umuntu wambaye ishati irimo uturongo tw'umutuku n'umukara, uri gusarura ikawa kugira ngo azayijyane ku isoko, avanemo umusaruro.

Ifoto iriho igihingwa cy'ikawa harimo izifite ibara ry'umutuku, umuhondo n'icyatsi handitseho Rwanda express coffee guide mu ibara ry'umweru.

Muri farumasi, ahazwi nk'aho bagurishiriza bakanagura imiti y'amatungo, harimo akabati gapanzemo imiti myinshi, ivura amatungo ishushanyijeho inka n'ingurube, iri mu bikarito by'umweru na Move.

Mu kiraro harimo inka nyinshi cyane zisa umukara n'umweru, harimo n'abantu b'igitsina gabo wambaye isarubeti y'ubururu uri gukamira mu ndobo y'ubururu n'undi uri gukamira mu ndobo ya oranje kugira ngo babone umukamo.

Abantu benshi b'igitsina gabo harimo umwe wambaye impuzankano ya Polisi, bari guhinga mu murima wa kijyambere batera imbuto z'ibirayi kugira ngo bazasagurire n'amasoko.

Mu murima munini cyane harimo abantu babiri: Umwe w'igitsina gabo wambaye imyenda umukara, n'ishati y'umweru, n'undi w'igitsina gore ukenyeye igitenge, bafite umusaruro w'imyumbati rwose ushimishije.

Abantu benshi cyane harimo igitsina gabo n'igitsina gore bari mu murima bafite amasuka bari guhinga imbuto y'ibirayi, inyuma yabo hari umurima munini cyane uhinzemo ibihingwa bitandukanye.

Umurima munini cyane urimo ibyatsi byinshi cyane, harimo abantu babiri b'igitsina gabo bafite amasuka ku rutugu rwabo, biragaragara ko bagiye guhinga kugira ngo bazagire umusaruro.

Mu murima munini cyane, uhinzemo ibyatsi harimo n'ibiti, harimo inka nyinshi cyane zifite ibara ry'umweru n'umukara n'indi isa kake, ziri kurisha kugira ngo zizatange umusaruro.

Mu murima harimo abantu benshi cyane, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, harimo n'abambaye impuzankano ya DASSO, isa icyatsi, bari kubagara kugira ngo ibihingwa bizere.

Mu murima wa kijyambere hahinzemo ibigori, harimo n'abantu babiri, umwe y'igitsina gore n'undi w'igitsina gabo, bafite amasuka mu ntoki zabo, bari kubibagarira kugira ngo bizagire umusaruro uhagije.

Mu murima wa kijyambere hateyemo ibihingwa by'ibishyimbo binasasiye aho nyiri ibi bihingwa azagenda agurisha mu isoko ndetse akabirya ku buryo azasagurira n'amasoko.

Mu murima ahakuzwe kwitwa nko mu gishanga hateyemo ibihingwa bitandukanye ibigori, aho nyirawo abyeza agasagurira n'amasoko na we akihaza.

Akabati karimo ibiribwa by'imbuto n'imboga, aho umuntu ubiriye abasha kugira ubuzima bwiza, harimo: pavuro kokombure, pome, imiteja, ibibiriganya, inyanya ndetse n'ibindi byinshi.

Mu ishyamba rinini cyane, hicayemo abantu benshi, harimo igitsina gabo n'igitsina gore n'abambaye impuzankano ya gisirikare n'undi wambaye impuzankano ya polisi n'undi wambaye impuzankano y'abadasso, hari n'umugabo uhagaze imbere yabo ufite indangururamajwi mu ntoki ze, bari gushishikarizwa kwita ku mashyamba.

Mu ishyamba riteyemo ibiti byinshi, harimo n'ibyatsi, harimo abantu benshi cyane, ab'igitsina gabo, n'abigitsina gore, hari abicaye n'abahagaze, baje gufata imbabura bari guterwa inkunga.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imirongo icaguyeye yu umwe n'umukara, n'indi y'umweru iri hagati, harimo abantu benshi, igitsina gabo n'igitsina gore bari kureba uburyo babungabunga amashyamba.

Umurima munini cyane uteyemo imbuto nyinshi cyane za pome kugira ngo abaziriye babashe kugira ubuzima bwiza zinabarinda indwara zigiye zitandukanye.

Mu isoko aho abantu baza guhaha ibintu bitandukanye, harimo n'imboga zitandukanye, harimo karoti, inoryi, beterave na shufurere kugirango ubiriye agire ubuzima bwiza.

Mu isoko aho bacururiza ibicuruzwa by'imboga harimo intoryi, puwavuro, inyanya, karoti isenda, tungurusumu, imiteja, ibitunguru ndetse na seleri n'ibindi byinshi.

Mu murima wa kijyambere hateyemo igihingwa cy'inyanya aho nyir'uwo murima yaje gusarura inyanya nyinshi cyane agiye kuzijyana mu isoko kuzigurisha ari kuzishyira mu bitebo.

Mu isoko rinini cyane aho hacururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye by'imboga n'imbuto harimo intoryi, pavuro, inyanya, amashu ndetse n'ibindi biribwa bigiye bitandukanye.

Umuntu w'igitsina gore, wambaye imyenda irimo ibara ry'umweru n'umukara, ari mu karima k'igikoni gateyemo imboga zitandukanye, ibitunguru, shufurere, intoryi n'izindi mboga nyinshi.

Mu murima uhinzemo imboga z'inyanya harimo izitukuye, iz'umuhondo n'izindi zitarera, inyanya zivura indwara zitandukanye iyo uziriye.

Icyapa kinini cy'umweru kiriho ikirangantego cy'u Rwanda kiri mu kazeru k'icyatsi karimo agaseke n'isaka, hariho umuntu w'igitsina gore wambaye imyenda yo mu bwoko bw'ibitenge.

Mu murima munini cyane uhinzemo igihingwa cy'imboga y'amashu, harimo abantu b'igitsina gore bari kuhira kugira ngo kizatange umusaruro mwiza. Harimo n'umugore uri konsa umwana.

Mu murima munini cyane uhinzemo igihingwa cy'amashu, harimo umuntu w'igitsina gabo wambaye umupira w'umukara, ari kubyuhira akoresheje indobo y'icyatsi n'ubururu kugira ngo bizatange umusaruro mwiza.

Mu murima wa kijyambere, hateyemo ibihingwa by'ibitunguru, hari n'umuntu w'igitsina gabo ufite isuka mu ntoki, uri kuhira ibitunguru. Hirya y'uwo murima, hari ishyamba riteyemo ibiti, hari n'insina iteyemo.

Mu murima uteyemo amashu harimo umuntu w'igitsina gore witeze igitambaro wambaye n'umupira wa kake ari kuhira izo mboga kugira ngo zizatange umusaruro mwiza.

Ni umurima wa kijyambere aho ateyemo ibihingwa bitandukanye hari iby'amashu, hari n'umuntu w'igitsina gabo ufite rozwari ebyiri mu ntoki ze uri kuhira ayo mashu, hateyemo n'ibiti by'imbuto.

Mu murima munini cyane ,uhinzemo umuceri, harimo umuntu w'igitsina gore, wambaye umupira w'umutuku n'ingofero n'agapfukamunwa, ari guteramo umuti kugira ngo bitazatakwa n'indwara, ntibigire umusaruro.

Mu murima uhinzemo ibirayi, harimo umuntu w'igitsina gore, wambaye umupira w'umutuku n'umukara, ari kubyuhira kugira ngo bizatange umusaruro mwiza. Hirya y'uwo murima, hari ishyamba riteyemo ibiti.

Umurima munini cyane, uteyemo inyanya, harimo umuntu w'igitsina gabo wambaye umupira n'ipantaro bya oranje, ari kuhira iyo myaka akoresheje umupira w'ubururu kugira ngo zizatange umusaruro.

Mu murima munini cyane uhinzemo ibihingwa byinshi cyane harimo umuntu w'igitsina gabo wambaye ishati ya shokora ari kuhira akoresheje umupira w'ubururu kugira ngo ibihingwa bizagire umusaruro.

Ni umurima munini cyane uhinzemo insina nyinshi zera ibitoki, hakurya hari ikiyaga cyiza kibereye ijisho ndetse n'ibirwa byiza abantu bajyaho batembera.

Mu misozi myiza irimo ibiti bitandukanye hari kugaragara n'ikiyaga kirimo amazi meza, aho umuntu ashobora kuhagana gusubiza ubwenge ku gihe.

Mu cyaro hari amazu menshi cyane, asize irangi ry'umweru, yubakishije n'amabati ashaje, hirya y'ayo mazu hari imirima, nanoneruguru hari umusozi munini cyane, uhinzeho amaterasi y'indinganire.

Imisozi myiza iteyemo ibiti bitandukanye kandi byinshi, hari n'ikiyaga kigaragara kandi cyiza, hirya yaho hari amazu atuyemo abantu menshi.

Imirima minini cyane, ihinze mu buryo bwa kijyambere, irimo amatarasi y'indinganire, aho umuntu ashobora guhingamo ibihingwa bitandukanye kugira ngo azabirye asagurire n'amasoko.

Ikiyaga cy'amazi hejuru yacyo hari umusozi myiza, iriho amashyamba, ituweho n'abantu, hejuru y'uwo musozi, hari ikirunga kinini cyane kiriho ibicu.

Inka nyinshi cyane zo mu bwoko bwa kijyambere ziri mu biraro, inyuma yabo hari abantu benshi b'igitsina gabo, hari abambaye ibisarubeti by'ubururu, hari n'abambaye amataburiya y'umweru aribo ba veterineri bazitaho mu gihe zirwaye.

Mu kiraro kinini cyane harimo inka nyinshi cyane zisa igitaka, umweru n'umukara, harimo n'abantu b'igitsina gabo bari gukama kugira ngo inka zitange umusaruro.

Mu kiraro kinini cyane, kirimo inka nyinshi cyane, hari izisa umukara n'umweru n'izisa igitaka, harimo abantu b'igitsina gabo baje gukama ku kugira ngo inka zitange umusaruro. Hirya hari amazu menshi kandi meza hari n'ikigega gifata amazi y'imvura.

Mu kiraro kinini cya kijyambere, harimo n'inka nyinshi za kijyambere, zisa igitaka aho ziri kurira ahabugenewe kugira ngo zitange umusaruro mwiza haba mu gukamwa ndetse n'ibindi.

Ikibuti kinini cyane cya kijyambere harimo inkoko nyinshi kandi nziza zisashokora harimo n'umuntu uzorora unazitaho igitsina gabo wambaye isarubeti y'icyatsi, ari kuzigaburira kugirango ngo zi zatange umusaruro mwiza.

Mu kiraro cya kijyambere harimo n’inka za kijyambere zisa n’ishokora, zifite n’amahembe meza. Harimo abantu b’igitsina gabo bazitaho, umwe wambaye amasarubeti y’icyatsi n’undi wambaye itaburiya y’umweru. Harimo uzivura mu gihe zarwaye n’abazitaho buri munsi.

Ikibuti kinini cyane cya kijyambere harimo inkoko nyinshi cyane z'igitaka nibyo ziriraraho bifite ibara ry'umutuku n'umweru kugira ngo zizatange umusaruro.

Ubworozi bwa kijyambere aho bororera inkoko zitanga umusaruro w'amagi cyangwa se inyama aho zifite amabara atandukanye umukara, shokora n'umweru hari n'utuntu ziriramo.

Ubworozi bwa kijyambere, bwororewemo inka zifite amabara atandukanye, igitaka, umukara, umweru, hari n'abantu babiri b'igitsina gabo bari gukama, inka zitanga umusaruro w'amata ba nyirazo bakabasha kubona amafaranga.

Ubworozi bwa kijyambere bw'inkoko harimo inkoko zifite amara atandukanye, umukara umweru n'andi menshi, harimo n'utuntu tw'umutuku ziriraho, nyirazo abona umusaruro w'amagi, akanazigurisha akabona amafaranga.

Ubworozi bwa kijyambere, aho hororewe ihene nyinshi cyane zigiye zifite amabara atandukanye, umweru, umukara, na shokora. Aho umuntu abasha kuzigurisha kugira ngo abone amafaranga.

Mu kibuti aho bororera inkoko, zizabaha umusaruro, inyama, zigatera amagi cyangwa bakagurisha bakabona amafaranga, harimo imishwi myinshi cyane, iy'umukara, kake n'umweru n'utuntu ziriraho dusa umutuku n'umweru.

Mu kiraro harimo inka ifite ibara ry'umweru n'umukara, bari kuyuhira mu ibasi y'ubururu, hari n'umuntu w'igitsina gabo, wambaye bote n'ingofero y'umukara, ufite inkoni mu ntoki uri kuyuhira, inyuma y'kiraro hari umurima uteyemo insina.

Ibiganza bibiri bifite ibishyimbo mu ntoki zabyo bishobora kuba ari nk'imbuto bagiye gutera mu murima kugira ngo bazeze ibishyimbo basagurire n'amasoko bajye kugurisha.

Mu murima munini cyane harimo abantu benshi, ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, harimo n'abazungu, bari kureba umusaruro w'ibigori bahunguye kugirango ngo bazabijyane ku isoko.

Mu kiraro cya kijyambere harimo n'inka za kijyambere, hanze y'aho hari abantu benshi cyane b'igitsina gabo, bamwe bambaye amasarubeti y'ubururu n'abandi bambaye amataburiya y'umweru, bari kuyibangurira kugira izatange umusaruro.

Mu kiraro cya kijyambere, harimo n'inka ya kijyambere, hari n'abantu benshi b'igitsina gabo, aho bambaye ibisarubeti by'ubururu n'undi wambaye itaburiya, biragaragaye ko bari gutera inka intanga kugira ngo izagire umusaruro.

Mu kiraro cya kijyambere harimo n'inka za kijyambere zifite amahembe, harimo abantu b'igitsina gabo, hari abambaye amasarubeti y'ubururu n'abanhandi bambaye amataburiya y'umweru bita kuri izo nka, hari n'umuntu uzivura waje kuyitera intangaga kugira ngo izatange umusaruro.

Mu ishyamba rinini cyane aho harimo inyamaswa zitandukanye harimo n'inzovu, harimo ba mukerarugendo baje gusura izo nyamaswa kugira ngo barebe ibyiza bitatse u Rwanda.